Abantu benshi bateraniye muri sale hakaba harimo abambaye imyambaro yo mu nzego z'umutekano, bigaragara ko ari inama yabahuje aho bari kwiga ku ngingo runaka.

Inyubako yateraniyemo abantu bo mu nzego z'ubuyobozi zitandukanye bakaba bafite ingingo runaka bari kuganiraho, kuri buri meza hagiye hateretse ikinyobwa cyangwa se amazi bari kunywa.

Abantu benshi bari mu nzu bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hakaba hateretse mashine ndetse hirya yabo hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo atandukanye bigaragara ko bari mu nama biga ku ngingo runaka.

Abantu benshi bateraniye ahantu ku kibuga kiriho ibyatsi bakaba bicaye munsi y'igisharagati, bigaragara ko imbere yabo hari umuntu uri kubagezaho ikiganiro yabateguriye.

Umudamu ufite mikoro, akaba yambaye ikanzu y'umutuku, imbere ye hari abagabo bicaye, bigaragara ko ari icyumba cyateraniyemo abantu, akaba ari kubagezaho ikiganiro yabateguriye.

Inyubako yateraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, biganjemo abo mu nzego z'umutekano, hakaba harimo umugabo uhagaze imbere y'abantu, akaba afite mikoro iruhande rwe hakaba hahagaze umumama, inyuma yabo hakaba hicaye abantu bo mu nzego z'umutekano.

Umugabo uri ahantu mu nyubako akaba yambaye ishati y'amaboko magufi, akaba afite mikoro bigaragara ko hari abantu ari kubwira bari imbere bamuteze amatwi.

Ihuriro ry'abantu benshi bambaye imyenda myiza hakaba harimo umugabo wambaye impuzankano ya gisirikare ndetse imbere yabo hakaba hateretse uducupa turimo ibinyobwa bitandukanye.

Ni mu cyumba cy'inyubako hakaba hateraniyemo abantu benshi, baricaye ariko hari umusore uhagaze wambaye agashati k'amaboko magufi k'ubururu, akaba afite mikoro ari kuvuga.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bakaba bateraniye mu nyubako, ni abantu bambaye udupira tw'umweru bigaragara ko bari mu nzu iberamo imyidagaduro aho bishimye.

Abantu benshi bahuriye ku kibuga hakaba higanjemo ababyeyi ndetse n'abagabo, bigaragara ko ari ihuriro ryabahuje kugira ngo bige cyangwa se baganire ku ngingo runaka.

Umugabo wambaye ikoti akaba afite mikoro, akaba iruhande rwe hari icyapa kigaragaza ko ari gukora ubukangurambaga ku bijyanye no kwikorera serivisi zitandukanye.

Abantu benshi bateraniye mu nyubako bigaragara ko ari inama yabaye, muri bo harimo umugore uhagaze ufite mikoro bigaragara ko imbere yabo hari umuntu ari kugezaho igitekerezo ke.

Ni amacumu abiri aho bigaragaza ko mu muco nyarwanda icumu cyari ikimenyetso k'intwaro aho babyifashishaga mu muco haba mu kubyina ndetse bakagifashisha nk'ubwirinzi.

Abaririmbyi baririmba indirimbo za gakondo, bambaye imikenyero bafite ingoma bari gukoma amashyi, bari ahantu ku kibuga kiriho ibyatsi ndetse n'ibimera bitandukanye.

Inka nyinshi zo mu bwoko bw'inyambo zikaba ari ibihogo zifite amahembe maremare hafi yazo hakaba hahagaze umushumba wazo w'umusore wambaye agapira k'umutuku.

Abantu bateraniye mu cyumba bambaye impuzankano y'udupira tw'umweru, bigaragara ko ari ubukangurambaga bajemo cyangwa bakaba bari kuganirizwa ku ngingo runaka.

Urubyiruko rwambaye imyenda y'imyeru ndetse n'imikenyero, bigaragara ko ari ikirori runaka cyabaye, aha bakaba bateruye ikibindi gitwikirije amakoma kirimo imikenke.

Ababyinnyi b'abakobwa bakaba bambaye imikenyero y'umweru ndetse n'udusengeri tw'umweru bakaba bateze utugori mu mutwe bigaragara ko ari ikirori cyabaye bakaba bari kubyina.

Inka yo mu bwoko bw'inyambo ikaba ari ibihogo ifite amahembe maremare bigaragara ko iri ahantu iri kurisha mu byatsi, ni inka yasohoye ururimi.

Abakozi bakora mu kigo gishinzwe gutanga amashanyarazi bakaba bari ku ruganda rwayo, aho bafite ibyuma byabugenewe bari kureba neza ko nta kibazo gihari bakaba bari kugira ibyo batunganya.

Umukozi ukora mu kigo gishinzwe amashanyarazi yambaye imyambaro yabugenewe irimo ingofero, ari gukora kuri Kashipawa imanitse ahantu ku gikuta cy'inzu.

Amatara yifashishwa mu kumurika ku muhanda, akaba ari ingirakamaro kuko abasha kuyamurikira abagenda mu muhanda kugira ngo habashe kuba hakiririndwa impanuka zigiye zitandukanye.

umukozi ukora mu bigo bishinzwe gutanga serivisi z'amashanyarazi, yambaye imyambaro yabugenewe irimo isalbeti ndetse n'ingofero, amarineti, akaba ari gukora ku byuma abisuzuma.

Umukozi ukora mu kigo gishinzwe gutanga amashanyarazi akaba yambaye ibikoresho byabugenewe, yuriye ipoto y'amashanyarazi aho agiye kureba ko nta kibazo cyabayeho kugira ngo agikemure.

Amapironi abiri ni maremare cyane afatiyeho insinga z'amashanyarazi zigemura umuriro mu bice bitandukanye, ni amapironi ari ahantu hari umurima uriho ibiti byinshi.

Ni ahantu hatuwe hakaba hagaragara inyubako zitandukanye ndetse n'amapoto amanitseho insinga z'amashanyarazi, hakurya ku musozi hakaba hagaragara umusozi uriho ibimera bitandukanye.

Umukozi ukora mu bigo bishinzwe kugeza serivisi z'amashanyarazi ku baturage, akaba ari ku ngomero z'amashanyarazi, aho afite ibyuma byabugenewe byifashishwa kugira ngo babashe kuba bakora ndetse banatunganya umuriro.

Ni ku ruganda rw'amashanyarazi hakaba hagaragara ibyuma bitandukanye byifashishwa mu gutanga amashanyarazi hahagaze umugabo wambaye ikositimu y'umukara akaba afite n'agapapuro mu ntoki.

Uruganda rufatiyeho umuriro w'amashanyarazi aho hari ibyuma birebire bifatiyeho insinga, hakurya yabyo hakaba hagaragara umusozi uriho ibiti ndetse n'amashyamba.

Umukozi ukora mu bigo bishinzwe gutanga amashanyarazi ari ahantu aho bigaragara ko ari gutekinika ibyuma yifashishije ibindi byuma by'ikoranabuhanga, yambaye ingofero ndetse akaba afite n'icyuma ari kwifashisha.

Ni ibyuma byifashishwa mu kubona umuriro ufatiye ku zuba, aho ari amatara abiri hakaba cashpawer ndetse n'umurasire, ibi bikaba byifashishwa mu kubona amashanyarazi aturutse ku zuba.

Inyubako itanga serivisi z'ubuvuzi, ikaba iri mu mabara y'ubururu, imbere yayo hakaba hari umudamu ugiye kuyinjiramo ku kibuga hakaba hicaye abana batoya.

Ni inyubako zitandukanye zitangirwamo serivisi za Leta, hakaba hari umuhanda ubasha kugerayo, ikindi kandi izo nyubako zikaba zubatse ku buryo bugezweho, aho zifite urugo, ikindi kandi zikaba zibasha kuba zahuza abantu benshi.

Inyubako itangirwamo serivisi za leta. Iruhande rw'iyo nyubako hakaba hari ubusitani bwiza burimo imikindo ndetse hakaba hari n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu babiri barimo umugabo ndetse n'umugore, bakaba bari ahantu ku gikuta kiriho icyapa kiriho amagambo atandukanye, bigaragara ko bari gusoma, iyo nyubako ishobora kuba ari ishuri cyangwa ibiro runaka.

Inyubako y'ibiro by'Umudugudu wa Gakoma ikaba ari inyubako nziza ifite irangi ry'umweru ndetse ifite inzugi n'amadirishya bifite irangi ry'ubururu, izi nyubako zikaba zifasha abaturage kuko babasha kuza bakabakemurira ibibazo.

Inyubako itangirwamo serivisi za Leta ikaba ari inyubako yubatse ku buryo bw'igorofa imbere yayo hakaba hari abagabo bambaye udupfukamunwa, ikindi kandi ku rubaraza rw'iyo nyubako hakaba haparitse imodoka y'umukara.

Icyapa kiri ahantu hari ibyatsi kikaba cyanditseho amagambo avuga ngo Ingoro y'Ubutabera Urwego rw'Ibanze rwa Nyagatare, ibi byapa bikaba bibasha kuba byafasha abantu kumenya aho babasha kuba babonera serivisi zitandukanye.

Inyubako ya sitade ikaba ari igikorwa remezo gikorerwaho imikino n'imyidagaduro, hakaba hari amatara ndetse naho abaje kureba imikino bicara kugira ngo babashe kuba bakurikira neza ibiri kubera ku kibuga.

Inyubako itangirwamo serivise za Leta ikaba iri ahantu ku kibuga kiriho urucaca rwiza inyubako, ikaba ari inyubako yubatse ku buryo bw'amagorofa iri mu mabara y'umuhondo.

Inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuzima ikaba ari inyubako ifite irangi ry'ubururu ndetse imbere yayo hakaba hari icyapa cyanditseho ngo gira ubuzima, ku rubaraza rw'iyo nzu hakaba harimo abantu ndetse n'intebe.

Inyubako itangirwamo serivisi za leta, ikaba iri ahantu harambuye ahantu h'ikibaya, ikaba ifite ubusitani bugiye butandukanye, hakurya yayo hakaba hagaragara umusozi uriho ibimera by'ubwoko butandukanye.

Ikiraro kiri ahantu mu gisambu ahantu hari ibiti, kikaba ari ikiraro gikoze mu byuma, hejuru y'ikiraro hakaba hari kugendaho imodoka ndetse n'abantu.

Inyubako itangirwamo serivisi za Leta imbere yayo hakaba haparitse imodoka ku nkengero hakaba hagaragara indabo ndetse n'ubwoko bw'ibiti bitandukanye, hagaragara kandi agahanda k'igitaka kagana kuri iyo nzu.

Icyapa kiri ku biro by'Akarere ka Nyagatare hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo agiye atandukanye ndetse hakaba hari n'inyubako y'Akarere iri mu ibara ry'umweru.

Ikibaya kiriho ibimera bigiye bitandukanye hasi hakaba hari umuhanda muto wa kaburimbo uri kugendaho imodoka ndetse na moto, hakaba ku muhanda hari amatara.

Inyubako zitandukanye zitangirwamo serivisi za Leta zubatse ahantu hari ikibaya, ni inyubako zifite umuhanda zikaba zifite n'ubusitani bwiza.

Umugabo wicaye ku igare, akaba ari kugenda hejuru y'ikiraro, ku nkengero z'ikiraro ndetse no hirya hakaba hagaragara ubwoko bw'ibimera ndetse n'ibihingwa bitandukanye.

Umumama wifubitse isharupe akaba afite ivarisi mu ntoki ari hafi y'umuhanda wa kaburimbo ku nkengero hakaba hagaragara ibyapa ndetse hakaba hirya hari ipironi y'umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako itangirwamo serivisi za Leta, ikaba ari inyubako yubatse ahantu heza imbere yayo hari Idarapo ry'u Rwanda, imbere y'iyo nyubako hakaba hagaragara ubusitani ariko butaratoha neza.

Ikiraro cyo mu kirere hejuru yacyo hakaba hari kugendaho abantu munsi yacyo hakaba hagaragara umuntu, ni ikiraro kiri ahantu hameze nk'ikibaya ariko haruguru hakaba hari agasozi kariho ibiti n'ibyatsi.

Abantu benshi bateraniye ahantu bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kwibuka, aho imbere yaho hari umugabo wateye intambwe, afite indabo bigaragara ko agiye kuzishyira ku mva ishyinguyeho abantu.

Abantu bari impande y'inyubako bigaragara ko baje mu kirori runaka, bakaba bambaye neza bigaragara ko bamwe bari kubyina, iyo nyubako ikaba yubakishije amatafari ndetse ikaba ifite irangi ry'umweru.

Ni mu nyubako hakaba harimo umugabo wambaye ikoti ry'umukara akaba afite mikoro, hirya ye hakaba hari icyapa cyanditseho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, bikaba bigaragara ko ari gutanga ikiganiro ku bamuteze amatwi.

Ababyeyi batatu, umwe ateruye indabo, undi afite umutaka aramutwikiriye, bigaragara ko bari kwerekera ku rwibutso, aho bagiye gushyira indabo kugira ngo bibuke ababo.

Abantu benshi bateraniye mu nzu biganjemo abagabo harimo abagabo babiri bambaye impuzankano y'ingabo z'u Rwanda bakaba bigaragara ko hari ikiganiro bari kugezwaho n'umuntu ubari imbere.

Abagabo bateraniye ahantu mu gisambu, impande yabo hakaba hari imodoka, inyuma yabo hakaba hari insina nyinshi, bigaragara ko ari abantu bari gukemura ikibazo runaka.

abantu bateraniye mu cyumba bakaba bicaye, harimo abambaye impuzankano za gisirikare bigaragara ko hari umuntu uri kubagezaho ikiganiro uri imbere yabo.

Ni mu muhanda w'igitaka hakaba harimo abagabo bateruye amasanduku bambaye imyenda y'ibikara, imbere yabo hakaba hari undi mugabo wambaye ikositimu y'igikara akaba ateruye ifoto.

Abantu benshi bari ahantu mu kibuga kirimo ibyatsi, bakaba biganjemo abagabo ndetse n'undi mugore bafite inyana iri mu kiziriko bigaragara ko ari umuntu bayigabiye.

Abagabo batatu bahagaze mu gisambu kirimo ubwoko bw'ibimera bitandukanye, hakaba hari umugabo wambaye agapira k'icyatsi kibisi, akaba afite urugemwe rw'urubuto mu ntoki ze.

Ni ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo, hakaba hagaragara akayira k'abanyamaguru gashasheho amapave, hakaba hagaragara icyapa kigaragaza ngo hagarara, aho imbere hari umuntu uri gutera intambwe.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba hari kugendamo umumotari wicaye kuri moto, ku nkengero y'umuhanda hakaba hagaragara inyubako ndetse n'akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba hagaragara ahari imirongo y'umweru, aho abanyamaguru bambukira, ku nkengero y'umuhanda hakaba hari inyubako zitandukanye ndetse n'insinga z'amashanyarazi.

Icyapa kiri ahantu mu murima kikaba cyanditseho E na N ijana na mirongo itatu na gatandatu, iki cyapa kikaba ari ikiranga umuhanda runaka.

Abantu bateraniye ahantu mu busitani, bakaba barimo abaturage ndetse n'umuyobozi wambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda, bakaba bari kuganira ku ngingo runaka.

Abantu benshi bahuriye mu gikorwa kimwe hakaba harimo umugabo wambaye impuzankano ya gisirikare bigaragara ko bari gukora umuganda, bateruye amabuye ndetse abandi bigaragara ko bari gukata icyondo.

Abantu bateraniye ahantu hakaba hari abantu babiri bari imbere umwe afite umutaka akaba atwikiriye umudamu ufite mikoro bigaragara ko ari gutanga ikiganiro akigeza ku bamukurikiye.

Abantu benshi bari ahantu mu gisambu kiriho ibyatsi, bakaba bari kumwe n'abantu bambaye impuzankano ya daso, bigaragara ko ari ubukangurambaga bari gukora cyangwa se bari kuganira ku ngingo runaka.

Abagabo babiri bari ahantu hari ibiti, umwe akaba yambaye impuzankano ya gisirikare, iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye ingofero bigaragara ko uwo mugabo wambaye imppanzankano ya gisirikare ari kubwira abantu bamuteze amatwi.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko harimo abambaye ingofero z'akazi z'imihondo, bari ahantu ku kibuga kiriho ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye.

Abantu benshi bari ahantu mu gisambu kirimo ibiti bitandukanye bafite amapiki abandi bafite amasuka, bigaragara ko bari guhinga harimo n'inzego z'umutekano.

Abantu benshi bateraniye ahantu mu gisambu kiriho ibyatsi bakaba bamwe bicaye abandi bahagaze, bigaragara ko imbere yabo hari umuntu uri kubagezaho ikiganiro.

Abantu bateraniye mu byatsi ahantu munsi y'igiti bakaba bicaye, imbere yabo hakaba hahagaze umumama wambaye umupira w'umukara akaba afite mikoro mu ntoki ari kuvuga, bigaragara ko imbere ye hari abantu ari kubwira akaba ari kubareba.

Abakinnyi bari ku kibuga cy'umupira, bakaba bambaye amakabutura y'umukara ndetse n'udupira twa oranje, bakaba bigaragara ko bagiye ku kibuga, bagiye gukina, hakurya hakaba hari ahicara abantu baje kureba umupira.

Abakinnyi b'umupira bari ku kibuga bakaba bambaye imyambaro y'umukara ndetse hagati yabo hakaba harimo umugabo w'umutoza wambaye imyambaro iri mu mabara y'umutuku, bigaragara ko biteguye umukino ugiye kubahuza n'indi kipe.

Umusore wambaye amajezi y'ubururu, akaba ari mu kibuga kiriho ibyatsi byinshi akaba ari gukina umupira, inyuma ye hakaba hagaragara inyubako zitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba hari kugendamo imodoka, inyuma y'imodoka hakaba hari kugendamo abantu benshi bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri, ku nkengero y'umuhanda hari amatara ndetse hirya y'umuhanda hakaba hagaragara ibimera bitandukanye.

Abana bari ku kibuga aho bari gukina umupira bakaba bari kwidagadura mu buryo bugiye butandukanye, ibibuga nk'ibi biba bikenewe kugira ngo bikorerweho imikino n'imyidagaduro.

Urubyiruko rwiganjemo abasore n'inkumi bakaba bari ahantu ku nyubako, bigaragara ko bari kureba ikirori runaka kiri kubera imbere yabo, aho bagiye kureba imikino.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka ya Polisi hakaba ku nkengero z'uwo muhanda hari amatara amurikira uwo muhanda ndetse ku nkengero z'umuhanda hakaba hari abantu bari kugenda mu tuyira tw'abanyamaguru.

Abantu benshi bari ku kibuga biganjemo urubyiruko, bakaba bari ahantu ku kibuga bigaragara ko bari gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma yabo hari n'abandi bari ku kindi kibuga kiriho ibyatsi.

Umugabo wambaye amajezi y'umuhondo akaba ahagaze ahantu ku kibuga bigaragara ko ari gukina umupira, inyuma y'ikibuga hakaba hagaragara agasozi kariho ibyatsi bitandukanye.

Ni abakobwa bari ku kibuga cy'umupira, ikipe imwe ikaba yambaye imyambaro y'umutuku indi ikaba yambaye imyambaro y'ubururu, bari kwidagadura bigaragara ko bari mu marushanwa.

Ni abantu biganjemo urubyiruko bakaba bambaye imyambaro ya siporo bakaba bateraniye ku kibuga cy'igitaka, hirya hakaba hagaragara inyubako ndetse hakaba hari n'ibiti.

Abantu biganjemo urubyiruko bakaba bicaye ahantu bigaragara ko ari kuri sitade aho bari kureba umukino, ibi bikaba bifasha abantu kuruhura mu mutwe .

Abantu bari ku kibuga gikinirwaho umupira bakaba bari gukina, bamwe bambaye amajezi ari mu ibara ry'ubururu abandi bakaba bambaye iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Abantu benshi bari mu muhanda wa kaburimbo bakaba bambaye imyenda yo gukora siporo bari kwiruka bigaragara ko bari muri siporo rusange.

Abantu benshi bari ku kibuga bakaba bambaye imyambaro ya siporo bigaragara ko bari gukora imyitozo ngororamubiri, biragaragara ko ari mu masaha y'umugoroba.

ni mu muhanda wa kaburimbo hakaba harimo umumotari uhetse umugabo, inyuma yabo hakaba hagaragara undi utwaye igare, hirya y'umuhanda hakaba hagaragara ibiti ndetse n'inyubako igaragara igice kimwe.

Umuhanda mugari wa kaburimbo ku nkengero zawo hakaba hari umubyeyi uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru hepfo ndetse no haruguru y'umuhanda hakaba hari ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo unyura hagati y'ishyamba ku nkengero y'umuhanda hakaba hagaragara amatara, mu muhanda hakaba hari kugendamo umuntu uri ku igare bigaragara ko ari kuzamuka.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba hagaragara neza umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, ku nkengero z'umuhanda hakaba hagaragara abantu bari kugenda bambaye udupira tw'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo hariho amatara yo ku muhanda, ku nkengero mu tuyira tw'abanyamaguru hari kugendaho abantu ndetse hirya y'umuhanda hakaba hagaragara ishyamba ririmo ibiti bikuru.

Abantu babiri umukobwa ndetse n'umusore, bakaba bari kugenda ku gahanda k'abanyamaguru, ni imbere ya kaburimbo ni kuri kaburimbo iriho amatara ndetse ku nkengero ya kaburimbo hakaba hari ibyatsi.

Umuhanda w'amabuye hakaba harimo umuntu uri k'igare ndetse n'undi muntu uri kuzamuka ku kayira k'abanyamaguru, ku nkengero z'uwo muhanda hakaba hagaragara ubwoko bw'ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo akaba ari umuhanda wagutse mugari, ku nkengero z'umuhanda hakaba hagaragara ibiti ndetse hakaba hari kugenda n'abantu mu kayira k'abanyamaguru.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, hakaba hari kugendamo moto iriho abantu babiri, ku nkengero z'umuhanda, hakaba hari ibiti birebire by'ininturusu by'inganzamarumbo, hepfo y'ibiti hakaba hagaragara inyubako ziciriritse.

Umuhanda w'amabuye hakaba harimo umumotari wicaye kuri moto, imbere ye hakaba hari umugabo ushoreye igare ririho ibitoki, hirya y'umuhanda hakaba hagaragara inyubako igaragara nk'aho ari isoko, ricuruza ibicuruzwa bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo, hakaba harimo umugabo ushoreye igare ripakiyeho ibitoki, iruhande rwe hakaba hagaragara abana b'abanyeshuri, bari kumwitegereza, hepfo y'umuhanda hakaba hari inyubako zitandukanye.